Abantu babonye umuntu wavunitse akaba ari kumuha ubutabazi bw'ibanze bwo kumugeza kwa muganga byihutirwa, bakoresheje agatanda kameze neza bityo bakamuryamishaho bakaba barimo bamujyana.

Icyumba cyo mu bitaro kikaba kirimo igitanda baryamishaho umurwayi, hakaba harimo kandi intebe n'utundi dukoreshasho tugiye tumanitse ku gikuta, twifashishwa na muganga.

Abaganga bagira ibikoresho bitandukanye bibafasha mu kazi kabo by'umwihariko, hari ibikoresho bibafasha gupima indwara zitandukanye. Igihe umurwayi agiye kwa muganga bakamufata ibipimo agomba kubitanga nta gushidikanya kuko ari byo byifashishwa mu gupima no kumenya icyo arwaye.

Umuntu waje kwa muganga kwivuza, ubu muganga akaba arimo amufata amaraso mu ntoki akoresheje ipompo, kugira ngo ajye kumupima arebe indwara arwaye.

Umubyeyi aba akwiriye kwita ku mwana we cyane cyane mu gihe arwaye. Umubyeyi w'umugabo cyangwa w'umugore, buri wese afite inshingano zo kwita ku mwana we by'umwihariko mu gihe arwaye, ashobora kumujyana kwa muganga mu gihe hari uburwayi afite bukomeye.

Ahantu hari abana benshi, bambaye imipira isa hose ndetse hakaba hariho n'abarezi babo. Imbere hakaba hari umumama wambaye amadorobindi, akaba arimo aha umwana amata mu nkongoro.

Abantu benshi bagiye mu nama none ubu bakaba barimo babyina imbyino zigiye zitandukanye kugira ngo bose bishimane hamwe.

Abantu bo mu ngeri zitandukanye bose bashobora kwishima. Hari ibyapa bigenda byandikwaho magambo ndetse bigashyirwaho n'amashusho atandukanye ku nsanganyamatsiko zitandukanye bitewe n'ingingo runaka yifujwe.

Abakozi bakora mu bikorwa by'ubuzima, bagomba kwambara bikwije kugira ngo batagira abo banduza cyangwa ngo na bo banduzwe. Ibyo bibafasha kugira ubuzima bwiza kandi hari n'ibikoresho bishobora kubafasha mu gihe bari gukora ibyo bikorwa byabo.

Abaturage bakwiriye guhugurirwa icyo bakora kugira ngo bagire ubuzima bwiza, abayobozi babyize ndetse babifiteye n'ubushobozi, ni bo babahugura, bakabafasha kumenya icyo bakora kugira ngo bakomeze kubaho neza, dore ko ibyo kurya baba babyifitiye.

Abaganga babiri bari kumwe, bakaba bafite n'amakayi mu ntoki, ndetse n'imbere yabo, hakaba hateretse n'umuti ukoreshwa wica udukoko, mu ntoki.